Abajenti ba MTN batatu bari mu mutaka, umwe aricaye abandi barahagaze batanga zimwe muri serivisi za MTN nko kubikura, kubitsa, gutanga amayinite ndetse n'izindi serivisi MTN itanga.

Abantu benshi, kandi begereye imitaka, abandi bayikoreramo, ni imitaka yikigo cy'itumanaho cyitwa Eyateli, n'imitaka y'ikigo cy'itumanaho cyitwa tigo, harimo abakozi b'icyo kigo, aho gitanga ibicuruzwa harimo amayinite, kubitsa ndetse no kubikura.

Sosiyete yitwa Airtel, itanga serivisi zijyanye n'itumanaho, aho ushobora kuvugisha umuntu mutari kumwe kuri telefone, ukaba wamwoherereza amafaranga, igatanga serivisi yo kubitsa amafaranga yawe, akaba yaguma kuri konti yawe, ukazabikuza igihe ushakiye, ikanatanga n'izindi serivisi zigiye zitandukanye, harimo no kuba ifite telefone wakwifashisha.

Umutaka w'ikigo kitwa MTN ndetse n'umukozi w'icyo kigo ushinzwe gutanga bimwe mu bicuruzwa bya MTN harimo nko kohereza amayinite, kohereza amafaranga ndetse no kubikura amafaranga ndetse n'ibindi bikorwa bakora kugira ngo abakiriya babo babashe kubona.

Inzu itangirwamo serivisi z'itumanaho ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, ni inzu y'ikigo cya MTN, harimo umuntu w'imbere urimo gufasha abaturage bamugana, iki kigo gitanga ibicuruzwa bikurikira, harimo: gutanga amayinite, kohereza amafaranga, kubitsa ndetse n'izindi zitandukanye.

Umugabo uhagaze imbere, inyuma hari abantu benshi, afite ikarito ivamo telefone y'ikigo cy'itumanaho cyitwa Eyateli, ni telefone zigura ibihumbi makumyabiri, aho zifasha rubanda rugufi cyangwa abantu bakennye kuba babasha gukoresha zimwe muri telefoni zigezweho.

Umukozi w'ikigo gitanga ibicuruzwa by'itumanaho ndetse no kubika, ni ikigo cya Airtel cyangwa Airtel Tigo, umukozi ari imbere y'aka kazu akoreramo, aho ari gufasha umukiriya kumuha ibyo akeneye.

Umutaka uriho icyapa k'ikigo kitwa MTN kandi umutaka urasa nk'umuhondo. Abantu bari munsi yawo cyangwa bawitwikiriye ni abakozi ba MTN. Bambaye n'impuzankano ziriho ibyapa bya MTN. Aho MTN itanga ibicuruzwa nko gutanga amainite, kubitsa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Akazu k'ikigo k'itumanaho, ni akazu kari mu mabara y'umuhondo, handitse amagambo MTN ndetse n'aya Momo n'imibare itandukanye, iki kigo cya MTN gitanga ibicuruzwa harimo gutanga amayinite, kubitsa, kubikura ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Akazu k'ikigo cya MTN ndetse gitanga serivisi zigiye zitandukanye harimo nko koherereza amafaranga umuntu cyangwa kuyabikura cyangwa kwibikiriza, guhamagara umuntu mutegeranye ndetse ikaba igira na telefoni zigiye zitandukanye icuruza ndetse n'izindi serivisi zigiye zitandukanye MTN itanga.

Utuzu tubiri dukoze mu twuma tw'ibigo bibiri bitandukanye ariko byose bitanga ibicuruzwa bimwe, harimo n'abakozi bashinzwe gutanga ibyo bicuruzwa, ibyo bigo ni MTN na Airtel bitanga ibicuruzwa nk'amayinite yo guhamagara, kubitsa, kubikura ndetse no kohereza amafaranga.

Abantu benshi bahuriye hamwe, harimo abambaye impuzankano z'ikigo cy'itumanaho cyitwa Eyateli, hari n'ibyapa ndetse n'utuzu twanditseho Eyateli, aho itanga ibicuruzwa ku baturage benshi harimo: anayinite yo guhamagara, kubitsa, kubikura ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abantu bahuriye hamwe mu ngeri zitandukanye ndetse bakora n'ubusabane barimo kurya ibigori bafitiye fanta aho bitabiriye igikorwa rusange kimeze nk'umuganura cyangwa ikindi gikorwa gihuza abaturage nka koperative cyangwa abakozi bahuriye hamwe.

Abantu benshi harimo abagabo n'abagore bari mu bigori byasaruwe ndetse byanavuwe barimo kubyanika, ibi bigori byavunguwe, iyo byumye barabivungura bakabona kubikoresha icyo bashaka, harimo nko kubishesha bagakoramo ubugari cyangwa bakabigurisha ariko bisabwa kuba byumye.

Umugabo wambaye rineti ndetse n'ikoti na karuvati, arirembere, arimo gutanga ikiganiro, arimo kureba nk'ureba abantu bamuri imbere, bari muri Nyagatare ku bijyanye n'ishoramari.

Inzu nziza irimo umuntu n'aho bororera inkoko, izi nkoko zizororwa mu buryo bw'ingandurabukungu, umukobwa arimo gukuramo amagi inkoko ziba zateye.

Abantu bakorera hamwe bari mu mushinga wo kudoda cyangwa guteranya ibikapu, ibikapu abadamu bakunze kwifashiha, cyangwa mu gutwara ibintu bigiye bitandukanye, harimo abadamu n'abagabo, umudamu afite mikoro harimo gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ibyo bakora.

Inanasi nyinshi ziri imbere y'abayobozi, aho abantu bakoreye hamwe barimo kugaragaza umusaruro wabo imbere y'abayobozi. Ni abantu bahagaze batandukanye, bamwe bambaye imyenda isa, ariyo isa ubururu umwe muri bo wambaye ga arimo gutanga imbwirwaruhame.

Amacupa y'inzoga nyinshi zitandukanye, harimo inzoga ziri mu macupa asa icyatsi, umuhondo, umutuku, ndetse n'ayandi mabara atandukanye, aho ziri ku murongo ni aho zirimo gucuruzwa nka buzinesi cyangwa bale.

Ahantu hateguye neza, hari imyanya myinshi, imeze nk'abiteguye abakiriya b'icyo kurya cyangwa icyo kunywa n'ameza menshi ariho n'intebe ateguye neza, hafatwa nko muri resitora cyangwa muri bare ahantu batangira amafunguro cyangwa icyo kunywa.

Akabari cyangwa inzu y'ubucuruzi, icuruza inzoga, aho abantu bajya bakava bagura inzoga bakicara bakazinywa cyangwa bakazicyura, harimo inzoga zitandukanye harimo iziri mu bwoko bw'amalikeri.

Ahantu harimo igikorwa cy'ubucuruzi cy'akabari, aho harimo ibinyobwa bitandukanye, harimo mitsingi, primus, fanta za cocacola, amazi ndetse na likeri zigiye zitandukanye harimo konyagi ndetse n'izindi likeri z'ubwoko butandukanye.

Inzoga zikoreshwa mu kabari mu bantu bacuruza inzoga mu kabari ifite ubukana bukomeye bwa mirongo itatu n'umunani mu bijyanye no gusindisha abantu.

Inzu iri ahantu hitaruye heza harimo jaride ndetse n'ibindi biti birebire, aho itanga ibicuruzwa bimwe bitandukanye, ni inzu y'ubucuruzi harimo, inzoga, ibiryo, ndetse n'amacumbi.

umuntu uri mu iduka aho afite ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo amazi ndetse n'ibindi binyobwa byinshi bitandukanye, aho ajya kubirangura mu nzira za kure akabizana hafi kubyegereza abaturage kugira babibone, ndetse n'igikorwa cy'ubucuruzi giteza imbere ubucuruzi

Ibicuruzwa bitandukanye biri mu nzu y'ubucuruzi aho umucuruzi ari gupima umuceri ku munzani ndetse bikaba byegeranye n'ibindi bicuruzwa bitandukanye biri mu makarito ndetse n'ibindi biri mu mufuka, aho harimo nk'imifuka irimo amakawunga ndetse n'amakarito harimo amata n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Ibicuruzwa bicuruzwa mu nzu z'ubucuruzi cyangwa ahandi hatandukanye nk'abazunguzayi n'ibindi. ni igicuruzwa cyitwa kenzo, igicuruzwa gikorwa mu nyanya. gishyirwa mu biryo kugira ngo gitukuze ibiryo, kibihindure ibara kandi binaryohe kurusha.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibikoresho abadamu batwara bashyizemo ibintu nka maleti, imyenda itandukanye iri mu mabara y'umutuku, icyatsi ndetse imanitse neza.

Inzu y'ubucuruzi, aho kimwe mu gicuruzwa kirimo harimo isabune, ni isabune ikase, ugiye kuyigura iba igura nka magana abiri cyangwa magana atatu, ntabwo ari umuti wose ahubwo ni isabune ikase iri ahantu ha yonyine.

Inzu y'ubucuruzi, irimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo amavuta, ifu y'igikoma cyangwa ubugari, umuceri ndetse n'ibikoresho bajyana mu bwiherero, umucuruzi arimo gukura ifu mu ibasi, ayishyira mu ndobo yabugenewe kugira ngo abone uko ayicuruza.

Ikureti nyinshi zibika amagi aho zifashishwa mu kubika amagi neza cyangwa kuyatwara bayakura ahantu hamwe bayajyana ahandi, cyane cyane aya makureti yifashishwa mu gihe hari umuntu cyangwa abantu bashaka gukora bizinesi y'ubucuruzi bw'amagi, aho wakoresha ibikoresho by'amakureti kugira ngo babashe kubika amagi neza.

Agakingirizo cyangwa Kondomu, kifashishwa mu kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo nka sida, imitezi n'izindi, ndetse kakanarinda kutabyara imbyaro zitateganyijwe.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo amabasi, indobo, amasafuriya, ibikapu ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye aho umucuruzi ajya kubirangura akabyegereza abaturage n'aho bamusanga na bo bakabura ibyo bakeneye mu buryo buboroheye.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo: gaze, amagare, serivisi zitanga zerekana amashusho harimo canari ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye aho umucuruzi abyegereza abaturage kugira ngo bajye kubihaha batagiye kure.

Butike irimo ibintu bitandukanye amaji, amagi ndetse n'ibindi bicuruzwa biri mu ubwoko bwinshi aho umucuruzi ajya kubirangura akabyegereza abaturage kugira ngo abashe kunguka ndetse n'abaturage babone ibyo bifuza.

Inzu y'ubucuruzi wakwita nka butike irimo ibicuruzwa bitandukanye, fanta zifungurwa amavuta yo kwisiga, imyambaro sharijeri zikoreshwa mu gucaginga amatelefoni, ndetse n'ibindi bikoresho byose byifashisha mu buzima busanzwe bwa buri munsi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye, hari ibiri mu makarito ndetse n'ibiri mu mifuka, haparitse ibinyabiziga bitandukanye harimo moto n'amagare, n'iduka ricuruza n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi,, ndetse n'abantu batandukanye, harimo ibicuruzwa, imyenda, ndetse n'ibicuruzwa byerekana amashusho byitwa CANAL, abantu barimo kujya guhaha, abandi barimo kuvayo.

Urujya n'uruza rw'abantu bagiye guhaha aho bacururiza imyaka cyangwa umusaruro ukomoka ku mbuto aho harimo imbuto zigiye zitandukanye: imineke, voka, imyembe, amacunga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi bucuruza ibinyobwa ndetse hakaba harimo n'umuntu, umudamu uhagazemo, aho atanga ibinyobwa birimo, Mitzing, Primus ndetse akaba afite n'igikoresho gikonjesha ibyo binyobwa, mu gihe umukiriya akeneye ibikonje akabona ibyamuha.

Inzu y'ubucuruzi irimo abantu batandukanye, harimo uwicaye arimo kudoda ibitenge, abandi bameze nk'abakiriya baje guhaha, harimo ibicuruzwa nk'ibitenge, amakanzu, ibikapu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Igikoresho kifashishwa mu kurinda amagi kugira atameneka cyane cyane bakunze kucyita ikureti aho ubikamo amagi ugatekarekamo amagi ukaba wayajyana ahantu ku kinyabiziga cgcyangwa se uyajyanye n'amaguru kuko afite umutekano atakangirika, ibi bikunda gukoreshwa cyane n'abantu bashaka gukora umushinga wo gucuruza amagi cyangwa se umuntu ugura amagi yo kurya mu rugo.

Inzu y'ubucuruzi, irimo igicuruzwa cy'amavuta, ni amavuta akoreshwa n'abana bakiri batoya yitwa Movit, aho atuma uruhu rw'abana rumera neza ndetse rugashashagirana.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye harimo umuceri, kawunga ndetse n'ibindi bicuruzwa byinshi biri mu mufuka, imbabura, bombo, ibirungo bike bitandukanye, amagi ndetse n'ibindi, aho umucuruzi abyegereza abaturage noneho abaturage bo bakaza kubihaha baturutse hafi.

Iduka ririmo ibintu bitandukanye harimo amavuta yo kwisiga, amasharijeri, imyenda y'imbere, amavuta yo guteka ndetse amakayi n'ibindi bigiye bitandukanye, aho umucuruzi ajya kubirangura akabyegereza abaturage kugira ngo bajye baza kubigura batagombye gukora urugendo rurerure.

Abazungu babiri ndetse n'abirabura batandatu, harimo ababwiriza cyangwa abapadiri ndetse n'abandi bayobozi, bari imbere y'urusengero aho bavuye gusenga cyangwa bagiye kujyamo.

Abantu bahuriye hamwe, bamwe bambaye imyenda y'umweru abandi bambaye iy'umukara, ni abantu bambaye imyenda iri mu muco w'aba Islam cyangwa abemera ba Muhammad, ni abantu bari mu gikorwa kimwe umwe afite igikoresho gihinga.

Mu rusengero aho pasiteri ari kubwiriza pasiteri w'umuzungu arimo kuvuga rurimi rw'amahanga hari undi ku ruhande uri gusobanura mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo abantu baje gusenga babashe gusobanukirwa ibyo pasiteri arimo kuvuga, hari abandi bicaye ku ruhande bari gutega amatwi bari kumva ibyo pasiteri ari kwigisha.

Abantu babiri bahagaze bafite icyapa cya Gerayo amahoro, umwe ni umupolisi undi ni umupadiri, barimo gushishikariza abantu kugera mu rugo amahoro binyuze mu kudatwara banyoye ibisindisha cyangwa gutwara ikinyabiziga n'umuvuduko mwinshi.

Abantu batandukanye harimo abapasiteri cyangwa ababwiriza bari mu rusengero ndetse n'imiryango itandukanye y'umugore n'umugabo bari imbere y'abakrisito ku ruhimbi ndetse n'abapasiteri cyangwa abayobozi b'itorero bari inyuma babahaye ibipapuro bigaragaza ko bitwaye neza cyangwa hari seritifika runaka bakoreye nk'abantu bashakanye.

Abantu benshi abadamu abagabo n'abana, bari ku rusengero bari ku murongo bategereje kwinjira, mu rusengero rwa Saint famille bari mu buryo butandukanye bashyizemo intera, bigaragara ko ari ukwirinda icyorezo cya covid cyari gihari, cyangwa ikindi cyorezo cyandurira mu kwegerana.

Mu rusengero ruri ahantu hitaruye kandi heza, ni urusengero rw'abagakatorike b'i Kabgayi, uru rusengero rwubakishije amatafari ahiye, rwubatse mu muco wa kera, ni urusengero abantu bajyamo bakihana ibyaha ndetse bakihuza n'imana mu buryo bwo kwiyeza cyangwa kwitagatifuza.

Inzu nini yafatwa nk'urusengero cyangwa ahantu basengera ariko ni urusengero rwashaje rudakoreye amasuku, mubyukuri ntago rukoreshwa, ahantu hose harasa nabi ndetse n'amabati yarashaje nta marangi ariho, mu ni inzu isa nabi ntago igikoreshwa.

Inyubako yifashishwa mu gusenga yitwa urusengero ruteguye neza rurimo intebe nziza zegamirwa zifite imifariso y'ubururu, aho nta muntu urimo bigaragara ko urusengero rwafunze, cyangwa rutegereje abantu bagomba kuza gusenga.

Abantu bahuriye hamwe, abagore n'abagabo baciye bugufi bari guha icyubahiro imana barimo gusenga, bari ku rusengero bambaye imyenda isa abandi ntabwo bambaye imyenda isa, nib byiza.

Ahantu mu cyumba bariramo harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kurya, ameza intebe biteguye neza, ni ahantu hameze nko muri hoteli cyangwa ahandi hantu hose hatangirwa serivisi yo kurya.

Ibikoresho byifashishwa mu gutegura icyayi cyangwa kofi muri hoteli cyangwa resitobale, ahantu baba bagiye gufata amafunguro ya mu gitondo, bifashisha izi mashini zitegura icyayi kandi kikazishyushya.

Icyumba kinini cyitaruye, kiri ahantu muri hotel cyangwa muri motel. Icyuma kirimo uburiri ndetse n'uruganiriro cyangwa intebe. Aho umuntu wahakodesheje ashobora kuryama, yakenera kuruhuka akicara muri izi ntebe.

Uburiri bufashe neza kandi buriho umusego, impande yabwo hari aho bacometse na telefone cyangwa n'ibindi, nanone imbere y'aho gato hari itara rimurikira umuntu ugiye kuryama, ni ahantu heza hameze nko muri hoteli cyangwa ahandi ahantu batanga amacumbi ku bantu barara cyangwa bakeneye kuruhuka.

Igitanda kiromo matela gishashe neza umusego na supanete yo ariko itamanuye ubona ko ari mu cyumba ahantu hameze neza hari isuku rwose ushaka kuryama waharyama nta kibazo. Hari inzitiramubu kuko urabona ko supaneti iriho.

Icyumba cyo muri hoteli cyangwa ahandi hantu hose bacumbikira abantu kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo matera, imisego ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, byatuma umuntu arara mu cyumba, harimo n'ibishushanyo bimanitse.

Abantu benshi, bateraniye hamwe, abenshin ni abakobwa, bafite impamyamenyi, bambaye imyenda igaragaza ko basoje amashuri ya kaminuza kandi bari ahantu mu nzu yafatwa nk'itanga amacumbi, biyakiriye bari kunywa ibinyobwa, bigiye bitandukanye.

Inzu nziza igeretse kabiri kandi ifite amarangi y'umuhondo n'amadirishya n'inzugi zimikara. Ndetse ifite naho bogera, aho bicara baganira ndetse n'aho baryama bamaze koga cyangwa bagiye koga. Ni inzu ifite ibicuruzwa babitandukanye harimo inzoga, amacumbi ndetse n'ibindi bitandukanye. Wabifata nk'akabari.

Uburiri bushashe neza kandi buriho umusego. Ni ahantu baba bacuruza ibicuruzwa byo guha abantu amacumbi, ibibiribwa ndetse n'ibyo kunywa. Iyo umuntu akeneye kuharara yishyura icumbi maze akaryama muri ibi byumba.

Inzu iri ahantu hitegeye ndetse ikaba ari inzu y'ubucuruzi, itanga ibicuruzwa bimwe bitandukanye, harimo nk'ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa cyangwa aho kuba aho ishobora gutanga amacumbi ndetse igacumekira n'abantu benshi, ishobora gufatwa nk'akabari cyangwa hoteli.

Inzu iri ahantutu yitaruye kandi heza, ku ruhande haparitse imodoka, itanga serivisi y'akabari cyangwa hoteli, aho icumbikira abantu, ndetse bakaba babamo iminsi cyangwa bakaba bananyweramo bagataha, ni inzu nziza iri ahantu heza, igeretse rimwe, iri mu mabara y'amarange y'umweru.

Inzu nziza iri ahantu hitaruye, igeretse rimwe isakaje amabati y'umutuku ndetse ifite n'amarangi y'umweru, imbere y'aho hari aho abakiriya bogera, itanga ibicuruzwa harimo: amacumbi, ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, wayifata nka hoteli cyangwa moteli.

Inzu ndende igeretse kabiri, iriho icyapa cya Elija Hotel, ni inzu itanga ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo: gucumbikira abantu, kubaha ibyo kurya n'ibyo kunywa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi bw'ibinyobwa, harimo ibinyobwa bigiye bitandukanye nka mitsingi ndetse n'amarikeri manini n'inzoga zikaze. Zimwe ziri aho bazicururiza, izindi ziri mu mashini ishinzwe kuzikonjesha. Harimo n'umukobwa ushinzwe gutanga ibyo bicuruzwa. Ni nko mu nzu, ahantu, mu kabari cyangwa muri hotel.

Inzu nziza igeretse kabiri iri mu marange y'umweru iruhande rwaho haparitse imodoka, ikirere kimeze neza aho inzu itanga serivisi y'amacumbi ndetse n'ibyorya wakwita nka hoteli cyangwa moteli.

Inzu iri ahantu hitaruye harimo parikingi aho imodoka ziparika zihagije, haparitseho imodoka z'ubwoko bwinshi, ni inzu nziza itanga serivisi y'akabari cyangwa hoteli, aho icumbikira abantu bararamo cyangwa ikabaha n'ibyo kunywa.

Inyubako iri ahantu hitegeye hari indabo n'ibindi bintu byiza bigiye bitandukanye harimo nka pisine yifashishwa mu gihe abakiriya barimo koga, iyi nyubako yo ni hoteli cyangwa moteli aho bacumbikira abantu bajya kuruhuka bakaza muri pisine koga.

Ahantu ho kwicara, hari intebe, ameza, ahantu hitaruye bisa nkaho ari muri itaje hejuru aho ureba imisozi yo hakurya ndetse n'inyubako, ahantu hameze nk'ahantu habera ubucuruzi bwakabari cyangwa muri hotel.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kuraramo harimo amashuka y'igitanda, matera ndetse n'imisego, ni icyumba kiri aho batangira amacumbi ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye nk'ibiryo cyangwa ibyo kunywa, wabyita ko ari mu nzu ya hoteli cyangwa bare.

Ahantu heza hari aho kwicara hitegeye amazi. Ni amazi abantu bogeramo atari ay'umwimerere. Ni amazi abantu baba barakoze mu ndimi z'amahanga yitwa pisine, akunda kuboneka mu mahoteli cyangwa mu mabare, aho batangira serivisi z'amacumbi. Abenshi abantu bakunda kujya kuhogera cyangwa kuharuhukira.

Ahantu isoko riremera, ibicuruzwa byahageze harimo iri mu mufuka ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, abantu bategereje abakiriya, hari shitingi y'ubururu ndetse na moto ihaparitse.

Ubucuruzi, umuntu afite umunzani ndetse n'igicuruzwa, n'umuzani bapimiraho ibiro, umusaruro bigaragara ko wavuye mu bihingwa, barawupima, bamara kuwupima bahugejeje ku isoko, bakishyura amafaranga bagendeye ku biro bakuyemo.

Umuzunguzayi ufite ibicuruzwa bitandukanye uri kugenda acuruza mu isoko, bimwe yabyikoreye ibindi biri ku maboko, ibindi ari kugenda abyerekana neza, nk'ibintu nyine by'ubucuruzi, umucuruzi w'umuzunguzayi.

Ahantu mu Gakaritsiye abantu bacururiza ariko badacururiza mu nzu bategereza abakiriya, bacuruza ibintu bijyanye n'ubutunguru, inyanya, intoryi ni abantu b'abadamu, abandi barahagaze bategereje abakiriya.

Ahantu habera ubucuruzi, hari ibicuruzwa byinshi bitandukanye hari ibiri muri shitingi n'ibipakiye mu mifuka, amagare ndetse na moto, hakurya hari ibindi bicuruzwa biri ahantu hasakaje shitingi, harimo amadomora y'ubururu ndetse n'ibindi bitandukanye, abantu baje guhaha, harimo na bodaboda.

Abantu babiri bafite amagare bapakiyeho umusaruro w'ibitoki, aho babikuye ahantu hamwe babijyana ahandi mu buryo bw'ubucuruzi kugira ngo babyejeze abaturage cyangwa abakiriya, ni ukuvuga ngo baba bagiye kubirangura noneho bakabijyana mu maduka cyangwa mu mabutike kugira ngo babyegereze abaturage mu buryo bw'ubucuruzi.

Urujya n'uruza rw'abantu mu mujyi bamwe bari kugenda abandi baza ni ingero z'abantu bose bamwe barikoreye biragaragara ko bavuye kurangura ngo bage gucuruza abandi bari kujya mu isoko.

Ahantu hari urujya n'uruza rw'abantu, abadamu, abagabo, ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto ndetse n'imodoka. Aho habera ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, aho hari imodoka ipakiye imyaka cyangwa ivuye kurangura, harimo imifuka ndetse n'abamotari bategereje abanyonzi, abacuruza amayinite ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye by'ubucuruzi.

Inkweto ziri mu bwoko butandukanye; harimo iz'abakobwa n'iz'abahungu, iz'abantu bakuru n'iz'abana, harimo izisa ubururu, umuhondo, umutuku n'umukara ndetse n'andi mabara atandukanye, ziri ku isoko aho zicururizwa, aho abakiriya bazisanga bakajya kuzigura.

Urujya n'uruza rw'abantu kandi bari mu isoko, ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibituruka ku buhinzi ndetse n'ibituruka mu nganda, ibituruka ku buhinzi harimo nk'ibitoki ndetse n'ibindi bituruka mu nganda, harimo indobo ndetse n'amadomoro manini, harimo n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni isoko ry'ubucuruzi, abantu bajyamo, bakajya kugura ibyo bakeneye ndetse n'abacuruzi bagacuruza.

Umusaruro w'igihingwa cyitwa igitunguru, ibitunguru byakusanyirijwe hamwe ariko ni ibitunguru bitoya biri kuri shitingi ndetse no ku mufuka, bikoreshwa imboga iyo barimo gukaranga cyangwa bagiye guteka.

Moto ihetse umuntu muri kaburimbo, ibinyabiziga ntabyo, moto irimo yonyine ndetse n'iyindi iri kuzamuka haruguru, ni moto ihetse umugenzi iri mu bwoko bwa Tevisi ndetse ikaba bigaragara nk'aho iri kumanuka.

Abamotari babiri, umwe yavuye kuri moto undi ayicayeho, nta bagenzi bafite, baparitse iruhande rwa kaburimbo, kaburimbo imbere hari imodoka itwara imyanda.

Kaburimbo irimo ikinyabiziga kitwa moto. Aho umu motari atwaye umuzigo yawuhambiriye ku igare, kasike ayifite mu ntoki. Kaburimbo nta bindi binyabiziga birimo arimo kugendamo wenyine kandi ikirere kinameze neza nta kibazo kiri mu muhanda.

Kaburimbo birimo umuntu utwaye moto, umuntu umeze nk'uri kumanuka, utwaye moto ni wenyine nta muntu ahetse, ni moto yo mubwoko bwa tevisi itwara abagenzi, cyangwa se igatwara imizigo, ari muri kaburimbo wonyine nta kindi kinyabiziga kirimo.

Umumotari ari mu muhanda nta bindi binyabiziga birimo, kandi ahetse umugenzi. Uwo mugenzi ni umuzungu yambaye kasike z'umutuku, kandi umumotari nawe yambaye impuzankano y'umutuku.

Imodoka iri muri kaburimbo, imodoka iri mu bwoko bwa Toyota, aho iri muri kaburimbo inyuma hariyo ibinyabiziga by'abamotari harimo moto ndetse begereye n'inyubako zigiye zitandukanye, ziri muri kaburimbo aho imodoka imwe ndetse na moto ziyiri inyuma.

Abantu babiri bari muri kaburimbo. Ntabindi binyabiziga birimo bari muri kaburimbo bonyine. umuntu utwaye moto iri mu bwoko bwa TVS. Ahetse undi muntu w'umugabo wambaye bodaboda afite igikapu. Ubona ko ari ahantu amujyanye.

Umuhanda w'amabuye ndetse wegereye inzu n'umuntu ucuruza amayinite, umumotari ari muri umuhanda w'amabuye, nta mugenzi afite moto iri kuzamuka, umugabo utambaye inifomu, ari mumuhanda wenyine, nta bindi binyabiziga birimo.

Moto itwaye umugenzi, moto iri muri kaburimbo yonyine, umumotari ahetse umugenzi w'umudamu, bambaye kasike z'icyatsi ndetse umumotari yambaye impuzankano y'ijire y'icyatsi n'umuhondo, bari mu muhanda bonyine nta kindi kinyabiziga kirimo.

Irimo moto ebyiri ndetse n'umugenzi umwe uri kugendera mu inzira y'abanyamaguru aho moto imwe itwaye umizigo w'umufuka w'umweru uhambiriye ku igare ndetse n'undi mumotari uri kugenda nta kintu ahetse. Bari kubisikana umwe ari kuzamuka undi arikumanuka bari muri kaburimbo bonyine nta bindi binyabiziga birimo.

Umumotari uhetse umugenzi, mugenzi a afite muziko aho mugenzi agiye kumukura, aho avuye amujyana ahandi ndetse n'imodoka ziparitse imbere y'umumotari, aho zamubujije gutambuka.

Umuntu utwaye moto ari muri kaburimbo wenyine nta bindi binyabiziga, bihari atwaye moto kandi ahetse gaze ku ruhande rumwe, nta wundi muntu ahetse ahubwo ahetse gaze.

Abantu benshi ndetse na moto nyinshi, umumotari umwe atwaye umugenzi amujyanye ahantu, akazi kamuhemba, ni umumotari uhetse umudamu ndetse bambaye n'ibirinda impanuka by'ubururu.

Umuntu utwaye moto uri kumanuka uri mu muhanda w'amabuye kasike yashyize imbere nta muntu ahetse afite akabage ku rutugu ari mu muhanda wenyine nta bindi binyabiziga birimo ndetse ni umuhanda w'amabuye, inyuma gato hari inzu ndetse n'amatente haberamo ibirori bigiye bitandukanye.

Umugabo utwaye igare amaze kurenga aho abanyamaguru bambukira muri kaburimbo nta muntu ahetse nta n'ibinyabiziga bimuri imbere, atwaye nta kibazo afite urabona ko umuhanda nta binyabiziga bindi birimo.

Muri kaburimbo harimo ikinyabiziga kimwe aricyo kitwa moto, umuntu wambaye umupira w'umweru utwaye moto arimo kugenda asa nk'ahamanuka, ari muri kaburimbo wenyine kandi ahetse umuzigo.

Abahungu babiri bari ku igare, bategereje abagenzi, bakora umwuga wo gutwara abagenzi, amazina yabo bakabata abanyonzi. Barahagaze bategereje abagenzi, aha niho usanga aribyo bibatunze cyangwa bakora indi mirimo, ariko batwara abagenzi barangiza bakishyurwa. Ndetse hari n'abagenti ba MTN ndetse n'aba Airtel n'imitaka bagiye bakora.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto imwe, nta bindi binyabiziga birimo, umuntu utwaye moto arimo kumanuka kandi ahetse n'umugenzi, ni muto iri mu bwoko butwara abagenzi.

Umu motari uparitse ahantu yambaye rinete. Yambaye agapfukamunwa kandi yambaye nakasike mu mutwe. Hakurya ye hari abandi ba motari bari muri kaburimbo batwaye abagenzi ndetse n'umukobwa uhagaze mu nzira y'abanyamaguru.

Imodoka ishinguye iri muri kaburimbo isa nkimpanuka, imodoka iri muri kaburimbo yonyine, nta kindi kinyabiziga kirimo kugenda, imodoka isa umweru ndetse n'umukara.

Umuntu utwaye moto ari muri kaburimbo wenyine, ntazi nta bindi binyabiziga birimo kandi ageze mu kayira abanyamaguru bambukiramo aho haba hari imirongo y'umweru itambitse mu muhanda, umumotari nta muntu ahetse afite kasike y'umutuku n'iy'ubururu.